Inzu itangirwamo serivisi za Eyateri imbere harimo umukozi ukoreramo, inyuma hahagaze umusore wambaye ingofero y'umukara ndetse n'inkweto za kamambiri yakuyemo rumwe inyuma ye hari umweyo.

Umuntu wambaye ishati ijya gu gusa umuhondo ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, uri kwinjira mu muryango ukinguye w'inzu isize irangi ry'umutuku ahantu hose, yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'umuhondo ndetse n'amadirishya n'inzugi bisa umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo uri kuvuga imbere ye hari mikoro y'umuhondo ndetse n'indi mikoro imeze nka telefoni, ku ruhande inyuma ye hari umugabo uri kuvugira kuri telefoni ndetse hejuru ye hamanitse icyapa cy'umuhondo cya MTN.

Abagabo batanu bahagaze imbere. Bombi buri muntu afite icyapa mu ntoki cy'umutuku cyanditseho amagambo yandikishije umweru. Kuruhande hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse kuruhande rugaruka hino, umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati ijya gusa ubururu ndetse n'ipantaro itukura. Yegerewe n'umugabo muremure wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto y'umukara. Bombi inyuma yabo hari icyapa cy'umutuku.

Umuryango ufunguye, hanze ku rukuta hasize irangi ry'icyatsi cyijimye n'icyatsi cyerurutse ndetse ku rundi ruhande hasize irangi ry'umutuku n'iry'umuhondo, hashushanyijeho n'nzu yanditsemo amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hagazemo umubyeyi.

Inzu nto yubatse mu mbaho, iri ahantu hari amapave ndetse yicayemo abantu, harimo uwambaye ishati y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, hejuru hari icyapa cy'umweru kiriho ibara ry'ubururu hejuru kirimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse imbere hari imitako igizwe n'amabara, umweru ndetse n'umukara.

Akabati, intebe ndetse n'ubutaka by'umucuruzi utanga serivisi za MTN, biri mu mbuga ngari irimo amapave ndetse n'igipangu cy'umweru n'ubururu.

Umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye amadarubindi ufite terefone mu ntoki ndetse uri gushyira ikarita mu mashini ngo akureho amafaranga.

Abantu bahagaze abandi bicaye munsi y'umutaka w'umuhondo. Hakurya hari abandi bahagaze munsi y'umutaka w'ubururu ndetse harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku uhetse n'igikapu gitukura.

Abakozi ba Airtel bahagaze hamwe ndetse ku mpande zabo hari abambaye ishusho y'ibipupe, bahurije ibiganza ku cyapa cya Airtel cy'umweru cyanditseho amagambo yandikishije ubururu ndetse n'umutuku ndetse gishushanyijeho n'igipupe gisa n'ibyo ngibyo bibiri, biri mu bagifasheho.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse wambaye n'udukomo ku ntoki ufite telefone mu ntoki n'imbere ye hateretse indi, ku ruhande hunamye umukecuru witeze igitambaro kirimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, wambaye umupira ujya gusa umutuku ndetse n'igitenge.

Akazu gato gafite umuryango ufunguye gasize irange ry'umuhondo ahantu hose, imbere hometseho icyapa kiriho umugabo wambaye ishati y'umukara irimo amabara y'umweru uri kureba muri telefone, munsi yaho hometseho ikindi cyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara hashushanyijeho telefone y'umukara irimo porogaramu.

Akazu gato gafite amadirishya abiri akinguye imbere ndetse n'umuryango w'inyuma ukinguye, gasize irangi ry'umuhondo gakoreramo umukozi utanga serivisi za MTN ndetse n'iza Tigo, imbere yako ahagaze umugabo wambaye umupira utukura wanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru mu mugongo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Akazu gatoya ka mpandeenye gafite imiryango itatu ikinguye gakoreramo umukozi utanga serivisi za Airtel, gasize irangi ritukura, ndetse kanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hakurya hari umutaka w'umuhondo wanditseho amagambo yandikishijwe umukara ukoreramo umukozi utanga serivisi za MTN, inyuma yabo hari umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara ndetse na bote z'umweru uri guturuka hakurya.

Inzu yubatse mu byuma isize irangi ry'umuhondo ikoreramo umukozi utanga serivisi za MTN, ku ruhande hari ibyapaindi bigaragaza ibigo akorera harimo icy'umutuku cya Airtel, icy'ubururu cya Tigo, ndetse n'icya MTN cy'umuhondo, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira ujya gusa umukara.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema, inyuma hicaye umugabo uri guseka wambaye ingofero ndetse n'umupira w'ubururu, imbere ye hahagaze abantu batatu bafashe ifoto imwe mu biganza, harimo umukecuru witeze igitenge mu mutwe, wambaye amadarubindi ndetse n'umupira w'ubururu, hagati harimo umugabo wambaye ikoti n'umupira w'ubururu imbere ndetse ku ruhande harimu umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru y'uturongo.

Abaturage batatu bicaye mu murima uhinzemo inanasi, bibumbiye mu ishyirahamwe inyuma hari insina zitari nyinshi.

Abamotari babiri bahetse ibicuba umwe yicaye kuri moto n'undi ugiye kwiyicaraho, ku ruhande hari umunyonzi ufite igare ririho igicuba kimwe ndetse n'igiti cyegetseho igare ritariho ikintu na kimwe.

Umukozi wa banki uri gufasha umukiriya, ufite agatabo ke k'ubwizigame ndetse uri kureba mu mumashini, mudasobwa, n'umukiriya hanze utegereje serivisi.

Umugabo wambaye ikoti rifite ibara rijya gusa n'ivu, n'ishati y'umweru ndetse na karuvati ijya gusa umutuku, uhagaze ku ruhimbi ufite Mikoro mu ntoki, ndetse inyuma ye ku rukuta hasize irangi ry'ubururu, handitseho n'amagambo yandikishije irangi ry'umweru.

Abantu benshi bicaye mu ihema, harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ijya gusa ubururu ndetse n'umugabo umukurikira wambaye umupira w'ubururu uriho ikirangantego k'igihugu cy'u rwanda n'umugore ufite terefone hagati y'amaguru wambaye ipantaro irimo ibara ry'umutuku n'umukara n'agakote k'umukara n' numugabo ukurikiyeho wambaye umupira wumukara uri ikirangantego cy'u rwanda n'undi umukurikiye wambaye umupira uriho ikirangantego cy'u rwanda.

Abaturage bahagaze kumurongo umwe, buri wese imbere ye hari imbabura ndetse afite numufu w'umweru mu ntoki, imbere yabo bose hari indobo yubururu iri kurikandagira ukarabe hariho akabase gatukura, ndetse kuruhande hariru umuntu wambaye umupira w'umweru n'agapfukamuwa k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ukurikiwe n'umusaza wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero n'ishati y'umukara mo imbere.

Abantu benshi bahagaze hamwe harimo abahagaze munsi y'ihema, ndetse imbere yabo hari imbuto z'inanasi, harimo umugore wambaye umupira w'ubururu ushushanyijeho ikirangantego imbere mu gatuza, ndetse hahagaze umugabo imbere ye wambaye umupira usa nk'uwo yambaye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru imbere.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ihema ndetse n'undi mugore uhagaze imbere mu ihema, imbere yabo hari inanasi zirambitse hasi, hari umugabo ufite mikoro uri kuyivugiramo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, inyuma ye hari undi mugabo wambaye ikoti rijya gusa umutuku ndetse n'ipantaro bisa n'ishati y'umweru yambariyemo imbere.

Akabari gacururizwamo ibyo kunywa bitandukanye hirya gato hari icyuma gikonjesha inzoga ndetse n'ibinyobwa bidasembuye, imbere hari intebe ndende zizamuye zifite ibara ry'ibihogo bicaraho ndetse hirya gato hari televiziyo nini, impande yaho hari urugi rufite irangi ritukura.

Icyapa kigaragaza ahantu hacururizwa inzoga, kirimo ifoto y'abantu bafite inzoga mu ntoki ndetse n'umugabo ufite inkoni ku rutugu ndetse wambaye ingofero.

Inzoga z'amoko atandukanye ziri mu iduka, harimo iz'amacupa maremare ndetse n'iz'amacupa magufi, hari iziri mu macupa asa ubururu, asa icyatsi, asa umuhondo ndetse n'afite ibyapa bitukura, hirya hari n'izindi ziri inyuma mu matajeri.

Intebe ziteye mu matsinda ndetse n'izindi ziteye ku kumurongo, hepfo hari imitaka y'umutuku izinze ndetse n'indabo z'imitako.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, imbere hari indobo'umweru ibonerana ndetse n'umunzani uteretseho isahani, inyuma harimo ibicuruzwa nk'amakayi, fanta, inzoga z'ubwoko butandukanye, amakariso, ndetse n'imisatsi hirya hari amavuta yo guteka ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu irimo amacupa menshi atandukanye y'ubwoko butandukanye, hirya hari ingazi zisize irange ry'umweru ndetse n'umukara, imbere yaho hari ijerekani ihateretse ndetse hirya hari amakarito atandukanye afunguye ateretsemo amacupa menshi atandukanye, imbere y'aho hari amacupa afite ibara ritukura menshi ndetse n'andi y'amavuta bisiga.

Iduka ricuruza imyenda, hanze hari ibipupe byambaye imyenda iri gucuruzwa ndetse n'inzitiramubu zimantswe ziri ku isoko, n'imikeka n'amatapi biri ku rukuta.

Amashashi ya omo afatanye ari menshi ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu yagarama mirongo itatu, omo yo mu bwoko bwa sanirayiti.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, inyuma hateretse uducupa turimo kirida zikoreshwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo, ndetse imbere hateretse ikarito ifite ibara ry'umuhondo ishushanyijeho n'amarangi y'icyatsi, ku ruhande yateretse agacupa gafite ibara ry'umutuku.

Inzu icururizwamo imyenda, imbere y'umuryango hari ibipupe byambaye imyenda icuruzwa ndetse hamanitse n'inzitiramubu zigurishwa, n'imikeka ihambiriye ku nkingi igurishwa.

Iduka ryiganjemo imyenda ndetse n'ibikapu, imbere y'aho hicaye umugabo wambaye ikanzu y'umweru ndetse uteze igitambaro, imbere ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro ya kake, ku ruhande hari undi mucuruzi ucuruje ibicuruzwa byiganjemo amafoto ndetse n'indi mitako yo mu nzu.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye rihagazemo umugabo wambaye umupira w'umweru, umufuka w'icyatsi uteretsemo ibishyimbo ndetse n'umufuka uri mu ibara ry'ubururu urimo ibinyobwa ndetse n'amagi ateretse hejuru ku kabati.

Amacupa abonerana arimo ibisa n'amazi harimo afite icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umweru ndetse ari mu ibara ry'umutuku n'andi afite icyapa cy'icyatsi n'umuhondo.

Icupa ry'umweru rya pudeli, ryanditseho amagambo yandikishije umutuku ndetse n'ubururu, hagati rishushanyijeho umwana ufite ikibindo ndetse uri gukambakamba.

Inzu nini ikorerwamo umwuga w'ubudozi ndetse bacuruza n'imyambaro itandukanye y'abagore, ku ruhande hamanitse ibikapu by'umukara ndetse gishushanyijeho umuntu mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari umugore wambaye ijipo itukura n'agasengeri k'umukara.

Icupa ry'umutuku riteretse ahegereye akabaho ryanditseho amagambo yandikishijwe umuhondo ndetse n'umukara hepfo gato yashushanyije ifi: igizwe n'amabara atatu umukara, ubururu ndetse n'umweru; mu mwero waryo handitsemo amagambo yandikishije irangi ry'umutuku.

Iduka ricuruza amavuta, harimo amavuta yo mu mutwe, ayo kwisiga ku mubiri, ayo gusiga ku munwa, ayo gusiga ku nzara ndetse n'amavuta yo gufungura y'amazi.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye, rusakaje amabati y'umutuku, hejuru ku gasongeraro hari umusaraba, mu mbuga yarwo hateye ibiti bibiri kimwe giteye iburyo ikindi ibumoso ndetse mu muryango hari umuntu uri kwinjiramo wambaye agapira k'umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite igisenge kizamuye ndetse isakaje amabati y'umutuku, ifite amadirishya nzugi bisize irangi ry'umutuku, ku ruhande hateye ibiti ndetse imbere yaho hateye indabyo z'icyatsi.

Umugore wambaye impeta ebyiri ku kiganza, ufite mikoro ifite ibara ry'umukara, uri kuvugiramo, yambaye ikote ndetse n'agapira mo imbere, hiryaye hari undi mugore wambaye amaherena y'umweru, wambaye ikanzu itukura ndetse n'ikote ry'umukara.

Abantu batanu bahagaze, harimo abagabo babiri b'abazungu ndetse n'umugore umwe w'umuzungu, wambaye ikanzu itukura. Kuruhande rundi hahagaze umugore w'umwirabura wambaye ikanzu ijya gusa icyatsi ndetse n'amadarubindi. Impande hahagaze umugabo wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umukara urimo amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa umweru ndetse n'abagabo babiri b'abazungu, bambaye amashati y'umukara ndetse n'amapantaro y'imikara.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu kiliziya, imbere hari abapadiri ndetse hari n'ishusho ya Yesu kiristu n'iya nyina bikira mariya, inyuma hicaye umugabo wambaye ishati y'umukara n'undi wambaye ishati y'ubururu ndetse kuruhande rwabo hicaye umumama wambaye ishati y'amabara y'umukara n'umweru ndetse kuruhande ruhera hakaza umugabo wambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi bicaye mu nzu nini higanjemo abagore abagabo abasaza ndetse n'abakecuru harimo abazamuye amaboko hejuru imbere hicaye umukecuru witeze igitambaro cy'ubururu ndetse n'imyenda yiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi inyuma ye hicaye umukobwa wambaye ijipo ijya gusa umutuku ndetse n'ishati isa n'umutuku.

Icyumba kirimo igitanda gishashe, hariho imisego ibiri y'mweru, ndetse hashasheho ishuka y'umweru, hagati haciyemo umurongo wumukara. Kuhande hari umuryango ufunze, ndetse n'aho bakiriza itara.

Amazi yo muri pisine afite ibara ry'ubururu, imbere yaho hari intebe ndende zegamirwa ndetse zijyanwaho, hari umutaka ndetse hakurya hariri ameza ateguye n'intebe ebyiri z'ubururu zegamirwa, inyuma y'aho hari inzu y'amagorofa isize irangi ry'umuhondo ndetse rivanzemo n'irangi ry'umukara.

Inzu nini iteyemo intebe ndetse hirya hari televiziyo ku rukuta imanitse irimo amashusho ku ruhande rugaruka hino hariho ingazi zisize irangi ry'umweru ndetse n'utwuma turi ku ruhande bafataho bazamuka dufite ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo igitanda gishashe kiriho amashuka y'umweru ndetse n'indi iri hagati y'umukara, gifite imisego ibiri, inyuma yacyo ku rukuta hasize irangi riri mu ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, hakurya hari irido ku idirishya ndetse n'itara ririkwaka umuhondo.

Imodoka ihagaze imbere y'inzu igaragara igice cy'inyuma ifite amapine y'umukara ndetse n'amatara y'inyuma afite ibara ry'umutuku, inzu ifite irange r'yumweru, amabati y'umutuku ndetse y'amagorofa.

Amafunguro ateretse ku meza, ku masahani abiri ndetse n'ibinyobwa biri mu birahure bitatu bitandukanye.

Isoko ryiganjemo imyambaro y'abagore harimo amajipo, amakanzu ndetse n'imipira biri munsi ya shitingi ibambye ku biti ndetse hasi hateretse indi myenda itandukanye, mu myenda imanitse harimo ijipo ifite ibara ritukura ndetse n'umweru.

Imbabura ya kijyambere iteretse hasi hirya yayo hateretse imashini idoda ndetse inyuma yayo hateretse ameza maremare arambuyeho itapi ifite ibara ry'ubururu n'umweru ishushanyijemo ikirabo.

Isoko ryiganjemo ibicuruzwa birimo ibikoresho byo mu rugo, harimo amasahani ya plasitike ibyuma bihata ibiyiko ndetse n'amakanya, harimo amajyaga afite ibara ry'ubururu icyatsi ndetse n'umutuku, ndetse harimo n'amajerekani indobo ndetse n'udusanduku, harimo n'imyuko n'imidaho.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari mu isoko, harimo abacuruzi ndetse n'abahaha, isoko ryiganjemo ibicuruzwa bigizwe n'imyenda ndetse n'imyambaro y'imbere, hari umugore wambaye ingofero n'ishati y'amaboko maremare ndetse n'ijipo ndende uri gucuruza, impande ye hicaye undi mugore wambaye ingofero y'urugara ndetse nawe w'umucuruzi ucuruza imyenda y'imbere.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko ryiganjemo ibiribwa bikomoka ku buhinzi, harimo abacuruzi ndetse n'abaje guhaha, hirya hahagaze amamodoka atandukanye ndetse n'amamoto n'abantu benshi bahagaze bari guhitamo ibicuruzwa.

Umusaza uri mu isoko ufite urukweto mu ntoki wambaye ingofero n'ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu ndetse na bote, uhagararanye n'umugabo wambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto za sandali, inyuma yabo hari shitingi irambitseho inkweto ndetse inyuma yabo nabwo hari abandi bacuruzi batandukanye.

isoko ryiganjemo ibicuruzwa birimo ibyo guteka nk'umuceri, uri mu mufuka w'icyatsi ndetse n'undi uri mufuka w'umutuku, hirya yayo hari ikarito irimo amasabune manini y'umweru, imbere yayo hateretse amacupa arimo amavuta yo guteka.

Ibicuruzwa byiganjemo imyambaro harimo ibiryamirwa, ibiringiti, amasume ndetse n'imyenda y'imbere y'abakobwa n'abahungu. Harimo isume ifite ibara ry'icyatsi umutuku ndetse n'umweru, n'indi ifite ibara ry'umuhondo icyatsi ndetse n'imutuku, n'indi ifite ibara umutuku wijimye ndetse n'umutuku werererutse n'ibara ry'umweru.

Isoko ryiganjemo ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibikoresho nk'amavuta ndetse n'amasabune, hirya habambye ihema ry'ubururu ririmo ibicuruzwa imbere yaryo, harimo umugore wambaye ikanzu ndetse uhetse n'igikapu cy'umukara mu gatuza.

Umufuka w'umweru, urimo umunyu ndetse n'imbere hateretsemo ikirushe kinini, ndetse n'ibikombe bigiye birimo umunyu, ku ruhande hateretse agacupa karimo amavuta yo guteka, uducupa dutatu duteretse ku meza dufite imifuniko itukura, ndetse hari n'umufuka w'umutuku urimo umuceri.

Isoko ryiganjemo ibikomoka ku buhinzi nk'imbuto, zirimo imineke y'ubwoko butandukanye ndetse harimo amaronji, indimu ndetse n'ibinyomoro, hirya hateretse ibihaza binini bya wotameroni.

Isahani iriho ibyokurya iteretse ku meza, ndetse n'ikiyiko ku ruhande, n'ibyuma bibiri, n'icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure kirimo icyo kunywa.

Ameza ateguyeho amafunguro, ahatatsweho ibitambaro by'umutuku ndetse n'umukara, ku ruhande hari amasahani ndetse n'igisorori cy'umukara, n'amafunguro atwikirije igitambaro cy'umweru kibonerana, ndetse n'ibisorori hirya bitandukanye.

Umunyonzi utwaye igare wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, ahetse amajerekani, inyuma ye hari abantu bikoreye imyenda ndetse batwaye n'indi mu ntoki bari kwicuruza, ari kugendera mu gahanda k'abanyamaguru, impande y'umuhanda munini wa kaburimbo.

Umumotari utwaye moto mu gahanda k'utubuye wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara irimo uturongo ndetse n'inkweto z'umweru zirimo akabara k'umukara atwaye moto y'umutuku ndetse ifite umusego w'umukara.

Umumotari utwaye moto mu muhanda munini wa kaburimbo ndetse uhetse n'umugenzi bombi bambaye ingofero z'icyatsi, umugenzi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikigina yijimye ndetse umumotari wambaye ipantaro y'umweru n'ishati y'umukara, hakurya hari urupangu rwubakishije amatafari ahiye rukoteye n'irangi ry'umukara.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda wambaye ingofero y'umukara utwaye n'indi imbere kuri moto ugeze mu gace abanyamaguru bambukiramo, hakurya hari undi mumotari uparitse moto uyicayeho ndetse inyuma ye hari imiryango y'ubucuruzi ikinguye no hepfo hari amazu y'ubucuruzi atandukanye.

Umumotari utwaye moto mu muhanda wa kaburimbo, wambaye ingofero itukura ndetse n'ikote rijya gusa icyatsi, hirya hari inyubako ifite urupangu rusize irangi ry'ubururu ndetse hari icyapa cy'umuhondo, cyanditsemo amagambo yandikishije ibara ry'umutuku.

Umumotari utwaye moto mu muhanda wa kaburimbo uhetse umugenzi, umugenzi wambaye ingofero itukura, umumotari wambaye ingofero y'icyatsi, hakurya y'umuhanda hari amazu yubucuruzi, hanze hateye igiti gitohagiye ndetse hari n'ipoto y'amashanyarazi iriho itara rimurika ku muhanda.

Umugabo wambaye ikoti ry'umutuku n'ingofero ya moto y'umutuku n'imbere harimo indi ngofero y'umwenda y'ubururu yanditseho amagambo mu irangi ry'umweru, imbere ye hahagaze moto iriho ingofero imbere y'umutuku, ndetse afite igipapuro cy'umuhondo mu ntoki ze.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo umumotari utwaye moto ndetse uhetse umugenzi, inyuma y'umugenzi hahambiriyeho akajerekani gato ndetse umugenzi wambaye ipantaro ijya gusa icyatsi n'ingofero y'icyatsi ya moto ndetse n'umumotari ariyo yambaye, hakurya hari umugabo uri kwambuka umuhanda wambaye umupira ujya gusa umutuku.

Umumotari utwaye moto mu muhanda uri kugenda akoresha terefone wambaye kasike y'ubururu n'indi atwaye imbere kuri moto.

Umumotari wicaye kuri moto ihagaze wambaye ikoti ry'umukara ry'amaboko maremare, ndetse ufite agakapu kari ku itako gafite ibara ry'icyatsi kitererutse, ndetse ufite amafaranga mu ntoki yiganjemo inote za magana atanu n'inoti za bibiri, imbere ye kuri moto hari mubazi ibara ibirometero, ifashe mu gakoresho gafite ibara ry'umutuku.

Umugabo w'umuzungu wicaye kuri moto isa umweru wambaye uturindantoki tw'umukara ndetse ufite ingofero y'abamotari mu kwaha, impande hahagaze abagabo arimo batatu bambaye amajire y'abamotari ndetse n'undi wambaye umupira w'umweru.

Abamotari batwaye moto mumuhanda wa kaburimbo umwe uri imbere wambaye ingofero y'umutuku ikirahure cyayo kizamuye mu gahanga ndetse n'indi y'umutuku atwaye mu ntoki inyuma ye hagakurikiraho undi mumotari wambaye ingofero izamuye ikirahuri mu gahanga y'ubururu ndetse atwaye n'indi imbere hakurya hari indi moto iri gutambika ijya mu cyerekezo bavuyemo.